Ababyeyi baje gukingiza abana babo baricaye bategereje guhura na muganga, buri mwana wese bamuteruye mu bibero barishimye kandi baranezerewe, kuko abana babo bose bameze neza.

Hari igice cyo kwa muganga cyitwa laboratwari, igihe winjiye muri laboratwairi uba usabwa kwitwararika, ukitonda ndetse ukurinda kuba wagira ikintu urya uri aha hantu, kubera ko uba ugomba kwirinda.

Hano hari umusaza uvura akoresheje imiti gakondo, ni ibyatsi agenda akabiswa bikavamo ivu maze akabikoresha avura abantu barwaye igifu no mu nda.